Farumasi idufitiye akamaro kanini cyane, aho umuntu arwara akajya muri farumasi bakamuha ibinini bihwanye n'indwara ye, ubundi akagenda akabinywa neza nk'uko muganga abimwandikiye, maze agakira agasubira mu mirimo ye.

Ubuvuzi ni bwiza ku baturage, aho umuturage arwara akajya mu bitaro byaba ibito cyangwa ibokuru se, cyangwa we mu mapirive barangiza bakamusuzuma bakareba indwara arwaye, iyo ndwara arwaye bakamuha ibinini bihwanye n'indwara ye, barangiza bakamuvura agakira ubundi agasubira mu buzima busanzwe.

Ubuvuzi ni bwiza cyane aho usanga umuntu arwara yamara kurwara akajya kwa muganga bakamusuzuma, bakamuha imiti agakira ubundi agasubira mu buzima busanzwe.

Iki ni ikimera abavuzi gakondo bifashisha mu buzima bwabo busanzwe bari kuvura indwara, cyane cyane nk'indwara zananiranye nk'iz'amarozi n'izindi zisanzwe, aho abaganga bifashisha iki kimera bakavura abantu.

Igisura ni kimwe mu bimera, byifashishwa mu kuvura ndetse kivura indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara zo mu nda ndetse n'izindi nyinshi.

Iki kimera kiri mu bimera bivura cyane, ukaba wacyifashisha nk'igihe ukomeretse, wamara gukomerareka, ugahita ukivuguta, ukagishyira kuri cya gisebe, mu yandi magambo kiromora.